Icyapa kinini cyo ku muhanda, gishushanyijeho iyo modoka ndetse ni icyapa cyamamaza ubwishingizi ndetse n'ubwiteganyirize ku bijyanye n'ibinyabiziga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye

Urupapuro rutangwa n'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo, ruriho amafaranga, igihe, ndetse n'ibindi byose bisobanura inguzanyo umuntu yaba yarafashe muri icyo kigo gitanga inguzanyo.

Iduka ricururizwamo imyenda yo kwambara y'abagabo rikaba rifitemo ndetse n'inkweto z'abagabo bambara kumyenda yiyubashye, akaba amanutse ku bihumbano bimeze nk'abantu berekeraho abantu imyenda baje kugura, hakaba harimo imyenda y'umukara ndetse n'ubururu bwa gipolisi.

Urupapuro rwerekana ibintu bijyanye n'amafaranga yo muri kampani runaka, hakaba hariho umukono w'umuyobozi w'icyo kigo ndetse n'izina ry'icyo kigo.

Urupapuro rwerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cy'igihugu cy'u Rwanda kikaba gisobanura uko imisoro itangwa ndetse n'ibigiye bikorwa, ikoreshwa ry'iyo misoro yatanzwe.

Aho abantu bajya bakicara bakaganira, harimo imitaka hanze y'inyubako, hariho imitaka ibakingira izuba, ndetse hakaba ari ahantu bicara bitegeye imisozi myiza cyane y'u Rwanda.

Ahantu batangira inguzanyo ku rubyiruko rw'abanyarwanda, ndetse bakaba bari kubyamamaza, bakanashyiraho igihe bizabera n'aho baherereye, akaba ari gukangurira urubyiruko kujya gufata inguzanyo.

Isoko bacururizamo ibiribwa harimo ibitoki, ririmo ryahuriyemo n'abantu benshi, isoko ryubakishijwe amabati, harimo n'abantu bambaye amashati y'umuhondo, isoko ryubakijwe amabati y'ubururu.

Aho abantu bajya bagahaha ni mu isoko, harimo umugore wambaye ikanzu isa y'icyatsi cya gisirikare, ndetse n'inkweto zifunguye, akaba yagiye ku isoko guhaha.

Ahantu abantu bakorera ikigo cy'itumanaho mu Rwanda bagenda babikuriza abantu amafaranga ndetse bakanayababikiriza ku bikoresho byabo by'itumanaho.

Inzu, inzu ikodeshwa iherereye kabeza ifite ibyumba bitatu n'ubwiherero bumwe ndetse n'ubwogero bumwe ikaba ifite aho abantu baganirira ndetse ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu ku kwezi ikaba iyi nzu isize irangi risa n'ivu.